Uburezi bw'ibanze budufitetiye akamaro kanini cyane, aho umwana atangira muri garidiyene agakomeza uwa mbere. Uku niko agenda yiga, yiga inyajwi, yiga inyuguti, bityo akazazamuka neza azi ubwenge.

Uburezi budufitiye akamaro cyane, aho twiga ibintu byo mu nda uko bimeze, umuntu uko ateye. Ibyo byose tubikura mu burezi.

Uburezi ni bwiza cyane aho abantu b'ingeri zitandukanye bigishwa kudoda. Bakaba badoda imyenda igezweho. Amapantaro, amashati ndetse n'iyindi myenda iri kwaduka.

Uburezi ni bwiza cyane aho umuntu ajya ku ishuri bakamuha ubumenyi butandukanye, harimo n'amashanyarazi, uko bakwesitara inzu, uko bakora amaterefoni, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ubu ni uburezi buhabwa abana ku mashuri, nko mu isomo ry'ubwubatsi. Aho baba bari kwiga gukoresha nivo mu bintu bijyanye n'ubwubatsi, kugira ngo nibarangiza ishuri bazashake imirimo maze biteze imbere.

Uburezi butangwa ku bantu benshi batandukanye bakabigisha kubaka amazu bakoresheje za nivo, amakamba, mabuye, n'ibindi byinshi bitandukanye, bityo bigatuma abantu babonaga imirimo, maze bakiteza imbere.

Ubu ni uburezi bw'amashuri bwo mu mashuri abanza, ayisumbuye aho abarezi batandukanye batanga ubumenyi nko mu bugeni, nko gushushanya, bityo abana bakagaragaza impano bafite mu gushushanya.

Ubu ni ubwubatsi aho abantu bajya gushaka imirimo yo kubaka kugira ngo babone imibereho, babone amafaranga bayakoresha mu bintu bitandukanye bita ku miryango yabo.

Ubukanishi ni bumwe mu burezi butangwa ku mashuri, abana bakajya mu ishuri bakiga bakiga ubukanishi, bityo bazarangiza bakaza bakajya hanze mu buzima busanzwe, bagatangira bagakanika amamodoka bagakanika n'ibindi bitandukanye bityo bakiteza imbere.

Ubudozi ni umwuga mwiza cyane, aho abantu bawiga bamara kuwumenya bagatangira kudoda amamoderi atandukanye, bakadoda amapantaro, amashati, amaribaya y'abagore, amakanzu ndetse n'ibindi.

Uburezi ni bwiza cyane aho abanyeshuri bose baganaga ishuri bagahabwa uburezi bubakwiriye, bakiga amasomo atandukanye bakiga gushushanya, ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye mu buzima busanzwe.

Uburezi ni bwiza cyane, aho bigisha abanyeshuri, bakamenya ibintuintu byinshi bitandukanye, harimo ubugeni n'ubukorikori, nko gushushanya bikazabafasha mubuzima, bwabo busanzwe.